Icyapa kinini cyanditseho ijambo saniramu, inyuma yaho hari inyubako nziza kandi nini, bigaragara ko ariho iki kigo gikorera cya saniramu. Mu busanzwe rero, saniramu yamenyekanye nyuma yo kugura sahamu, ikomeza gutanga serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima n'ubw'ibintu. Batanga serivisi z'ubwishingizi bw'amagara, ubwishingizi ku modoka, ku nzu ndetse n'ubwishingizi bw'ubucuruzi.

Icyapa kigaragaza ikirangantego cyamamaza serivisi z'ubwishingizi bw'imodoka, biri mu magambo y'icyongereza ariko bishatse kuvuga ko kugura ubwishingizi kuri interineti bishobora gutera ibibazo bike kandi ko ubwishingizi bukwiye kwitabwaho hashingiwe ku giciro ibikubiyemo n'uburyo serivisi itangwa. Hanyuma rero birimo biragaragara ko hari imodoka rwose yangiritse igaragara ku cyapa igamije kugaragaza ingaruka mbi zo kudafata ubwishingizi bwizewe, n'uburyo bwifashishwa mu kwamamaza kugira ngo butere ubwoba no gukangurira abantu guhitamo ubwishingizi bufite serivisi nziza kandi bwizewe cyane.

Umugabo urimo uraseka wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, biragaragara ko ari umukozi w'iki kigo cya Sonarwa, hanyuma rero ntago biteye ubwoba, iyo ukoresha sonarwa kuko iri mu maboko meza. ushobora kubahamagara ku icyenda zero eshatu, hanyuma bakaba bagufasha. Sonarwa nimwe mu bigo bikomeye by'ubwishingizi mu Rwanda iyo ushaka kuvuga kuri Sonarwa ushobora kuvuga ku bintu bitandukanye cyane, harimo nk'ibyo ikora, aho Sonenarwa ari mu bigo bimaze igihe mu bwishingizi mu Rwanda, itanga serivisi z'ubwishingizi butandukanye, n'ubw'ibinyabiziga, ubw'ubuzima, Ubw'inzu n'ubw'ubucuruzi n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye tutarondora.

Ese wari uziko ko bitewe n'ubwoko bwa banki ukoresha, bidashobora kugusaba kujya ku ishami rya banki kuba wabitsa cyangwa kubikuza amafaranga yawe? Ikoranabuhanga ryarabyoroheje, bitewe n'ubwoko bwa banki ukoresha, ushyira porogaramu muri telefone yawe, hanyuma buri kimwe cyose ukagikorera aho uri, kuri telefone. Hanyuma rero, hari porogaramu ya banki yitwa na na ca na ba na a mu mpine, hari buri kimwe cyose wakenera, kuba wagikorera kuri telefone yawe rwose bitagusabye kuva aho uri.

Uburyo umuntu ashobora gukurikirana amafaranga ari kuri konti ye binyuze kuri porogaramu banki, umubare w'amafaranga yose aboneka ku konti ni amafaranga miliyoni mirongo i indwi n'ebyiri ibihumbi magana atanu na makumyabiri n'amafaranga magana atanu mirongo i itanu n'atatu. Hari konti zitandukanye za banki nka Benimana, rwaka, roza na calisa buri wese afite amafaranga ari kuri konti ye, umuntu ashobora kandi kubona amakuru y'amafaranga ahari cyangwa se kuyohereza cyangwa gukora ibindi bikorwa bya banki binyuze kuri porogaramu.

Uburyo bwo kohereza amafaranga hakoreshejwe porogaramu ya banki, hariho konti yanditseho iwacu sitafu akawuti bishatse gusobanurwa ariko ntiyabakoze yitwaye wacu. Aho uyikoresha ashobora guhitamo umufatabuguzi, kwandika umubare w'amafaranga ndetse n'impamvu yo kohereza ayo mafaranga, hasi hari urutonde rw'imikoreshereze y'amafaranga aheruka, aho harimo amazina nka yohana na david cyangwa dawidi n'ayandi.

Ese mwari mubizi neza ko ikoranabuhanga ryabyoroheje aho ushobora kwishyura ibintu bigiye bitandukanye ukoresheje konti ya banki yawe? Si ibyo gusa kandi ushobora kuvana amafaranga kuri telefone yawe ukayashyira kuri konti yawe cyangwa se ukavana amafaranga konti ya banki ukayashyira kuri telefone yawe; hanyuma rero iyo ufite porogaramu ya banki ukoresha ibi byose biroroshye kuba wabikora.

Isoko ricuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko ibigaragaramo n'iby'imboga aho tubonamo inyanya ndetse n'ibitunguru, hari umugore kandi uri imbere urimo urareba kuri telefone ye biragaragara ko ari bo nyiri ibi bicuruzwa byose, rero mu gihe wifuza kuba warya neza cyangwa se watekera abashyitsi bawe neza ushobora kugana iduka nk'iringiri ugahahamo imboga kandi nyinshi zifite ubuziranenge.

iduka ricuruza ibintu bitandukanye gusa turimo turabona ko bacuruza imyambaro y'abakobwa cyangwa abadamu harimo amakanzu harimo n'amasakoshi kandi harimo n'inkweto ukaba ukeneye gusa neza waba ugiyemo mu birori cyangwa se mu bukwe inokanzu rwose yaba ari nziza kuri wowe wayijyana mu birori nk'ibyo ngibyo kandi ugaseruka neza ukaba washyiraho n'isakoshi ndetse n'urukweto bikagaragara rwose gusa neza kandi waberewe

Ubwoko butandukanye bw'ibitenge, hari ibitenge bigiye bimanitse hari n'ibitenge bigiye biteretse ahantu nko ku meza, bigaragara ko ari ubwoko buba bugiye butandukanye ndetse n'ibiciro biratandukanye. Hanyuma rero ibitenge birazwi cyane muri afurika, ushobora kukigura ukaba wadodeshamo imyenda itandukanye harimo amapantaro, amakabutura, amajipo, amakanzu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kandi ukambara ukaberwa.

Iduka ricuruza ubwoko butandukanye bw'imyenda harimo imipira, harimo amasengeri, harimo amapantaro, harimo ingofero n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ukaba wifuza kwambara neza kandi ukaberwa ushobora kugana rino duka kandi rikakwambika ukaberwa ndetse ukanaseruka mu bantu.

Ubwoko bw'amavuta menshi cyane butandukanye akunda gukoreshwa cyane cyane n'igitsina gore, hanyuma rero hari abakobwa cyangwa abagore babone bagenzi babo bisiga amavuta runaka nabo bakumva ko bayisiga bitewe n'uko uruhu rwabo rumeze neza, ibyo bintu rero ntago aribyo biba byiza iyo rwose iyo ukoresheje amavuta ajyanye n'uruhu rwawe kugira ngo nawe urusheho gusa neza.

Iduka ricuruza imyenda y'abana ariko b'abahungu harimo imipira y'amaboko magufi igiye ifite amakora hari n'indi kandi igiye idafite amakora ndetse Kandi hari n'indi igiye yambitswe nk'ikintu kimeze nk'igipope biragaragara ko ari iduka rwose ricuruza iyo myambaro ukaba ufite umwana uri hagati y'imyaka itandatu kuzamura kugeza ku imyaka icumi. Nukuri watugana tukakwambikira umwana kuko dufite imyenda myiza Kandi yamubera.

Ese waruzi neza ko ushobora gutaka inzu yawe neza, ikagaragara neza, igasa neza ndetse wagira n'umushyitsi rwose akifuza nawe kuba yakora nkibyo ukora kubera kuyitaka neza? Hano hari imitako igiye itandukanye ya kinyarwanda, ushobora gushyira mu nzu yawe rwose kandi igasa neza, harimo ibigiye bikoze mubiseke, harimo ibigiye bikoze mubindi bintu byinshi bigiye bitandukanye byagakondo.

Iri ni iduka riciriritse, kandi bigaragara ko ari iry’umudamu wambaye isengeri y’umukara. Uyu mudamu araseka, agaragaza ko yishimiye gukora ubucuruzi bwe. Muri iri duka harimo ibintu bitandukanye, birimo ubwoko bw’imboga n’ibindi bicuruzwa. Aya maduka akunda kuba aherereye mu maquartiers, ku buryo iyo uri mu rugo wibagiwe ikintu, ushobora kwegera iryo duka rikakiguha, ukacyishyura, bityo ibintu bigakomeza kugenda neza.

Iduka ricuruza imyambaro itandukanye, birimo biragaragara ko imyambaro yiganjemo ari imyambaro ikunda gukorwa mu myenda ya Afurika, dukunda kwita ibitenge. Hanyuma rero ni byiza ko umenya umuco wawe nk'Umunyarwanda cyangwa se Umunyafurika, ukamenya n'uburyo ukunda kwambara kandi rwose iyo umuntu yambaye imyambaro nk'iyi, biba bigaragara ko asa neza kandi yaberewe.

Imodoka nziza cyane igezweho. Imodoka nk'izi ngizi zikunda kugendwamo n'abantu rwose bafite amikoro. Turimo turabona ko ari imodoka irimo iracuruzwa. Ni imodoka ifite agaciro ka miliyoni mirongo itanu. Hanyuma rero iparitse ahantu mu muhanda wa kaburimbo, ukaba rero wakwifuza kugura imodoka nk'iyi rwose. Ntabwo waba uhenzwe kuko iyi modoka ifite agaciro kandi kanini.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nini n'ikamyo uri ibumoso yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, afite urufunguzo runini rwanditse akagera motozi nayo y'ububuru yambaye ipantaro ya kacyi ndetse n'umupira w'umukara ,afite impapuro mu ntoki ze bisa nkaho ari inyemezabuguzi cyangwa ibyangombwa by'imodoka bigaragaza ko ari nko mu rwego rwo gushyikiriza imodoka nshya nyirayo cyangwa kurangiza igikorwa cyo kuyigurisha.

Imodoka nini rwose isize irangi ry'umweru iparitse ahantu, izi modoka rero ni mu bwoko bw'amamodoka bukunda gutwara imizigo, ukaba ujyemo nko kwimuka ahantu hamwe ujya ahandi ushobora kwibaza ngo ni iki kintu gishobora kuntwara ibikoresho byanjye kikaba cyabijyana kikabishyira mu nzu nshyagiye ngiye kubamo? Imodoka nk'iyingiyi ni igisubizo cyawe kuko igutwaza ibintu byawe byose kandi ntibyangirike ikakugeza ahantu ugiye kuba mu mahoro no mu mutekano.

Abagabo batatu bigaragara ko ari abazungu, harimo n'undi mugabo umwe wirabura, hanyuma hari imodoka yo mu bwoko bw'akagera motozi niho icururizwa, biragaragara ko bano bagabo uko ari batatu bashobora kuba baguze ino modoka, hanyuma uyu mugabo wirabura akaba ariwe ubacuruje ino modoka kuko biragaragara ko bahawe n'impano yerekana ko ba bashimira ko babashije kubahitamo bakabahahira ino modoka.

Imodoka iparitse ahantu hashashe amatafari amwe agezweho ni imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa TOYOTA yakozwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri, iyi modoka kandi irimo iragurishwa miliyoni makumyabiri n'eshanu ukaba uyafite wifuza imodoka nziza igezweho nk'iyingiyi ushobora kuba wayigura kandi ikazajya ikorohereza mu ngendo zigiye zitandukanye ushobora kuba wakora.

Imodoka nziza kandi nshyashya ziparitse ahantu hari amabuye rwose cyangwa amatafari agezweho si ibyo gusa kandi hari abagabo babiri bafite icyapa cyanditseho akagera motozi biragaragara ko izi modoka zigiye gushyikirizwa uwaziguze waziguze muri iki kigo cy'akagera motozi kuko ziracyari nshyashya rwose birimo biragaragara.

Ubwoko bwiza bw'imodoka zigezweho, iyo modoka kandi ifite ibara ryiza ry'umukara, iparitse ahantu heza hameze nko mu muhanda, hari n'igiti inyuma yaho. Imodoka birimo biragaragara ko irimo iracuruzwa, irimo iracuruzwa amafaranga make cyane ugereranyije n'agaciro kayo, kuko irimo iracuruzwa amafaranga miliyoni mirongo itandatu n'eshanu kandi mu busanzwe ino modoka ari nziza cyane kandi irahenda. Uyiguze rwose waba utomboye.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa suzuki bibiri na cumi n'umunani, irimo iracuruzwa n'isoko rya Kigali ricuruza amamodoka, hanyuma rwose iri ku giciro gito cyane kuko miliyoni cumi n'umunani zonyine wayitahana, ukazajya ugeraho ugiye ku gihe, ukagera mu kazi kawe utakerewe, ukajyana abana ku ishuri bakagererayo igihe, ukabacyura nta ngorane, kandi ku mafaranga make rwose.

Amamodoka y'ubwoko bumwe, amamodoka atatu y'ibara rimwe, biragaragara ko ari nk'ay'ikigo cyangwa kompanyi runaka, aparitse kandi ahantu hamwe mu gipangu gifite umutekano rwose bigaragara. Birashoboka neza ko ari nka kompanyi ishobora kuba ikodesha amamodoka cyangwa se igurisha amamodoka y'ubwoko bumwe, mu gihe uyakeneye ukaba waza ukayafata mu buryo bukoroheye kandi bwihuse.

Igice cy'imbere mu modoka biragaragara neza cyane ko ari intebe z'abagenzi, intebe zose zifite ibitambaro byiza by'uruhu rw'umweru kandi imiryango yombi irafunguye bigaragaza ko imodoka yitegura kwakira abagenzi, hagaragara kandi isuku nziza cyane n'imiterere myiza y'imbere mu modoka ikaba ifite umwanya uhagije n'amadirishya manini atanga urumuri si ibyo gusa kandi n'immbi n'modoka atariri nshyashya birimo biragaragara ko imaze kozwa kandi igaragaza umutekano n'icyizere cyo kugenda neza hanagaragara kandi imodoka itukura inyuma itanga ishusho y'aho imodoka ya iri kandi yaparitswe

Abagabo babiri bahagaze imbere y'igikamyo gishyashya cya fuso biragaragara ko bagifashe ku Kagera motozi, umwe afite urufunguzo runini rwanditseho akagera motozi bivuze ko ikamyo yatanzwe cyangwa yagurishijwe, hanyuma ino kamyo isa n'inshyashya, imeze nk'iyo gutwara ibikoresho cyangwa ibicuruzwa kandi abo bagabo basa n'abishimwe bishobora gusobanura ko bahawe ikamyo nshyashya cyangwa bayiguze.

Abagabo babiri imbere yabo hari imodokay'umweru nziza cyane rwose, birimo biragagara ko ari nshyashya. Hanyuma bahagaze ahantu bose bafite mu ntoki zabo ibyapa byanditseho Akagera motozi. Bishatse gusobanura ko ino modoka Bashobora kuba bayiguze mu kagera motozi Barishimye barimo baraseka, banezerewe cyane nuko bahawe imodoka nshyashya kandi nziza.

Ishami rya banki ya Kigali aho turimo turabona abakozi babiri rwose, bambaye imyambaro bafite amamashini. Bigaragara ko ari abakozi b'iyi banki. Banki ya Kigali rero ni banki yafashe intera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ifite abaturage cyangwa se abakiririya benshi cyane kandi bagira serivisi nziza. Si ibyo gusa kandi batanga n'inguzanyo mu buryo bworoshye.

Umugabo urimo urabara amafaranga atandukanye, birimo biragaragara ko arimo arabarisha imashini imwe ibara amafaranga, dukunda kuzisanga cyane mu mabanki, cyangwa se abantu bavunja amafaranga, kuko baba bafite amafaranga menshi kugira ngo birinde kwibeshya. Biragaragara ko unu mugabo ashobora kuba akora muri banki, cyangwa se akaba akora mu ibyo biro bivuja amafaranga, akaba ari nazo nshingano ze, kuko arimo arabara amafaranga.

Abantu barimo barabara ubwoko butandukanye bw'amafaranga, hanyuma rero biragaragara ko bashobora kuba ari nko muri banki, kuko muri banki nibo bakunda kugira icyuma kibara amafaranga kugirango nk'umuturage cyangwa se umukiriya naza kubitsa amafaranga, bayabare neza bayabike babibonye ko yuzuye n'igihe yaje kuyabikuza bayamubabarire, bayamuhereze kandi kugira ngo babone ko batanze amafaranga yuzuye.

Umuntu ufite ubwoko butandukanye bw'amafaranga mu ntoki zombi, imbere ye kandi hagiye hari imashini yo guteranya, gukuba ndetse n'ibindi bimenyetso bitandukanye harimo no kugabanya, hari kandi n'andi mafarangagiye afunze iruhande rwiwe, amafaranga nk'ayangaya dukunda kuyasanga mu mabanki ndetse no mu biro bivunja amafaranga nibo bakunda gukora cyangwa se kuzinga amafaranga muri ubu buryo kugira ngo babashe kuyabara mu buryo bworoshye.

Isahani iriho amandazi menshi rwose agaragara neza cyane hari ibiganza kandi biteruye iyo sahane biragaragara ko iyo sahani iteretse ku meza; amandazi ni meza cyane cyane akunda kwifashishwa mu ifunguro rya mu gitondo aho abantu benshi bakunda kuyafata kandi bikagenda neza.

Ahantu bacuruza ibicuruzwa bikomoka mu mata ya Mukamira, aho bagira amata y'inshyushyu aba ari mu cyuma, aho aba akonje, iyo uyaguze bigusaba kuyanywa rwose ntago wagenda ngo uyateke, bakagira kandi amata y'ikivuguto, ubwoko bw'amayahurute agiye atandukanye, amata aba afungiye mu bikarito, amaforomaje ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ukaba bifuza ubwoko bw'igicuruzwa washaka muri Mukamira, amashami rwose agiye atandukanye aba ari ahantu hatandukanye, wabegera kandi bakagufasha, bakaguha icyo wifuza.

Ubwoko bwa bwa yawurute butandukanye: hari iziri mu bujerikani buto cyane, hari iziri mu macupa, hari n'iziri mu bikombe, hanyuma zose uko zimeze uko ziba zigiye zifite ibiciro bitandukanye, ndetse no mu bwoko butandukanye, hanyuma rero yawurute igira impumuro nziza nkuko tubizi, iraryoha kandi, ababyeyi benshi bakunda kuyikoresha bahereza abana babo, kandi n'abantu bakuru basaba ko bayifashisha.

Iduka ricuruza amata hari etajeri kandi igiye ipanzemo ibikombe bitandukanye by'amata, bitewe n'amafaranga ufite haba hari igikombe bagasukiramo amata, aho bashobora kuvunga ngo aya ni aya magana atatu, magana ane se cyangwa magana atanu kuzamura. Hari umugore kandi wambaye igitenge yambaye n'agapira k'amaboko magufi karimo amabara y'umutuku, biragaragara ko ari we nyiriduka, si ibyo gusa kandi hari abagabo barimo barabuganiza amata muri cya cyuma cy'amata, aho akamaro kacyo ari ugukonjesha amata, kugira ngo umuntu uza kuyagura ayatware ameze neza.

Ahantu hacururizwa amata y'inyange, turimo turabona icyuma cy'amata y'inyange, icyuma nk'ikingiki gishyirwamo amata, agakonja cyane rwose, iyo ugiye kuyagura ntabwo biba ngombwa ko uyatekamu gihe uyatahanye mu rugo i wawe, wayanywera ahongaho kuko aba yujuje ubuziranenge, kandi aba ari meza cyane, sibyo gusa kandi uhasanga n'ibindi bicuruzwa by'inyange, harimo imitobe, amazi, ndetse n'ibindi.

Iduka ricuruza ibyo kunywa bice bitandukanye aho harimo amata hakaba harimo amazi hakaba harimo icyayi hari n'icyuma cy'amata nyange, kandi sibyo gusa kandi ari amandazi ndetse hari n'icyapa kicupa rya fanta rya coca cola, bishatse gusobanura ko abantu bacuruza n'amafanta hanyuma rero mu gihe uri ku rugendo ukumva rwose ufite inzara, ushobora kugana ahantu nk'ahangaha bakaba baguhereza ibyo kurya kandi inzara yawe bigashira.

umugore wicaye ku meza asa n'uri mu mwanya wo gutekereza cyangwa kuganira n'undi muntu utagaragara neza mu ifoto hanyuma rero ifoto ifite amabara y'umukara n'umweru bikayongerera ubusobanuro bwihariye bushobora kwerekana amarangamutima tuje gutekereza cyane cyangwa umwuka w'ubwitonzi imyambarire yerekana ko ashobora kuba ari ahantu hakonje kandi uburyo areba hirya ashobora gusobanura ko yibaza ku kintu runaka cyangwa ateze amatwi ibiganiro biri kuba.

Inyubako iri hafi y'umuhanda, bigaragara ko icuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye bikomoka ku mata y'i Nyanza, harimo amata y'inshyushyu, ay'ikivuguto ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hari ipikipiki ihaparitse bigaragara ko hari nk'umumotari, winjiyemo imbere agiye nko kunywa amata cyangwa se nko kugura igicuruzwa runaka kihacuruzwa.

By'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda imigati tuyifata nk'ifunguro rya mu gitondo, aho dufatisha amata, icyayi, ndetse n'igikoma, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma rero imigati ifite ubwoko bugiye butandukanye hari imigati ikoze mu ifu y'ingano, iy'amasaka, imigati iririmo buki, imigati igiye itandukanye, nibyinshi cyane wavuga ku bwoko bw'imigati.

Ahantu hashashemo amakaro y'umweru hasi ndetse no ku bikuta ayo makaro arahari, hari icyansi kandi kirimo amata adapfundikiye, ntabwo ari byiza cyane rwose gusiga amata adapfundikiye kuko ashobora gutokorwa bikakuviramo kuba wayabikira.

Ahantu bacururiza amata y'ubwoko bw'inyange hari icyuma cy'amata akamaro k'iki cyuma ni ugukonjesha amata kugira ngo atangirika iyo uguze amata avuye muri iki cyuma rwose uragenda ugahita uyannywa bitagusabye ko wayateka .Hari umugabo kandi wicaye yarimo aravoma cyangwa se abuganiza amata mu ijage kugira ngo ayashyire mu kakabido hanyuma ayahereza umukiriya waje ayashaka kugira yatahane.

Ubwoko bw'amata butandukanye, hari amata mu tujerekani tw'umweru, hari amata kandi agiye ari mu bikombe ndetse no mu macupa, mwene ubu bwoko bw'amata dukunda kuyita yawurute. Hari amata kandi agiye ari no mu dukarito. Amata ni meza cyane by'umwihariko ku bana, kuko rwose umwana utanywa amata, bituma adakura neza. Amata kandi afasha mu buzima bwa buri munsi, aho yongera intungamubiri kandi akarinda indwara.

Umukobwa wishimye cyane rwose l, yambaye umupira w'amaboko muremure w'ibara ry'umuhondoz arimo araseka kandi afite inoti zitandukanye mu ntoki ze, harimo inote za bitanu ndetse n'inote za bibiri ,aya ni amafaranga kandi y'u Rwanda, birimo biragaragara ko arimo aramamaza cyangwa se arimo arashishikariza abantu, kuba bakwishyura bakoresheje ikoranabuhanga nk'urugero wajya guhaha cyangwa kugura serivisi runaka, ukishyura ukoresheje telefone yawe bitagusabye kugendana amafaranga.

Ese mwari mubizi neza cyane ko mushobora guteganyiriza ahazaza h'abana banyu, ushobora gutangiza amafaranga make cyane uyu munsi kandi akazubaka ejo hazaza heza h'umwana wawe, ushobora kugenda uzigama amafaranga make hanyuma ugasanga aya mafaranga mu gihe kizazana niyo yishyuye amashuri y'umwana wawe, twige kuzigama duteganyiriza ahaza h'abana bacu.

Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, gitangwa n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro. Mu busanzwe rero, abantu benshi bakunda gukora iby'ubucuruzi, bakunda kwishyura imisoro. Iyo wamaze kwishyura rero, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'amahoro, baguhereza icyemezo cyerekana ko wishyuye kandi nta deni usigayemo, kugira ngo bizagende neza kandi bifasha cyane mu kubaka igihugu, kuko imisoro turabizi neza ko ariyo ivamo ibikorwa remezo bitandukanye.

Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, aho gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda. Ni cyo kigo cyonyine gikusanya imisoro kugira ngo leta ibashe gutanga serivisi z'iterambere nk'uburezi, ubuzima, imihanda n'ibindi bikorwa remezo. Hanyuma rero bakusanya imisoro n'amahoro mu buryo bwihuse kandi buboneye kandi bagahugura bakanakangurira abaturage kwitabira gutanga imisoro no kunoza uburyo bwo kwishyura imisoro, hifashishijwe ikoranabuhanga mu buryo bworoshye cyane.

Urupapuro rwanditseho banki ya Kigali rwakozwe n'umuntu witwa Rutaganzwa heniri. Hanyuma rero urupapuro rurimo rurerekana amafaranga yinjiye ndetse n'amafaranga yasohotse, aho amafaranga yinjiye ari miliyoni ebyiri, hanyuma amafaranga yasohotse ari miliyoni esheshatu n'amafaranga atandatu n'igiceri cy'ijana, hanyuma rero bikunda kwifashishwa cyane n'abantu bize icungamutungo kugira ngo bize kuza kubafasha mu kubara amafaranga.

Ubwoko bw'amafaranga atandukanye harimo amafaranga y'inote harimo nibiceri, hanyuma rero bitewe n'igihugu. hari gihugu usanga nkigiceri kibara amafaranga menshi, harinaho usanga kibara amafaranga matoya cyane. Rero biterwa nubutyo igihugu cyabipanze cyangwa se gikoresha amafaranga yacyo. Nibyiza reroko tumenya agaciro kamafaranga tukamenya kuyakoresha ndetse nokuyakorera.

Umugore ufite umusatsi w'umukara, yambaye amarinete kandi yambaye n'umupira w'amaboko magufi w'icyatsi kibisi, si ibyo gusa kandi ikiganza cye kiriho impeta bishatse gusobanura ko iyi mpeta iba yerekana ko yakoze ubukwe afite uwo bashakanye, si ibyo gusa icyo kiganza kandi gifite inote z'ubwoko butandukanye. Banyarwanda, Banyarwandakazi ni ngombwa ko tumenya ko amafaranga ari meza, ni ubuzima, kuko akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma rero twige kuyakorera mu buryo bwiza kandi bunoze kugira ejo hazaza tutazasabiriza.

Ibiganza by'umuntu ufite inoti ebyiri mu ntoki ze ni amafaranga y'Ubuhinde, hanyuma rero muri iki gihugu hakoreshwa amafaranga yitwa amarupe, aba ari mu bwoko butandukanye hari intoti zitandukanye, hari inoti z'icumi, iza makumyabiri, mirongo itanu, ijana, maganabiri, magana atanu ndetse n'ibihumbi bibiri, sibyo gusa kandi agaciro k'ifaranga ry'Ubuhinde ugereranyije n'amadolari ya Amerika cyangwa andi mafaranga gahindagurika buri gihe bitewe n'isoko.

Ubwoko bw'amafaranga atandukanye akoreshwa mu gihugu cya Kongo, aho turikubona inoti y'igihumbi, iya magana atanu, iya magana abiri ndetse n'inote y'ijana. Hanyuma rero amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Kongo yitwa ifaranga rya Kongo, aho agizwe n'ikimenyetso cyayo kiba kiriho ari inyuguti ya C na D na F. Hanyuma rero hariho ibiceri bikoreshwa ariko cyane cyane hakoreshwa inoti zifite agaciro gatandukanye nk'iza bitanu iz'igihumbi, iz'ibihumbi bibiri, hanyuma n'ibihumbi icumi, ibihumbi makumyabiri n'izindi zigiye zitandukanye. Hanyuma rero ifaranga rya Kongo rifite ihindagurika rinini bitewe n'ubukungu n'ibibazo bya politiki mu gihugu.

Mu bwoko butandukanye bw'amafaranga harimo amadolari ndetse n'amayero ese ujye utekereza gutunga amayira mu rwego rw'ubucuruzi cyangwa kugira gahunda y'ishoramari, gutunga amayira bishobora kugira ibyiza bitandukanye cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu n'ubucuruzi harimo kuba ari ifaranga rikomeye. Amayero n'ifaranga rikomeye mu rwego rw'isi kuko rikunze kwizerwa mu bihugu byinshi bitandukanye.

Inzu inzu nini isize umucanga ndetse hari n'inzu ishaje ntoya, nyuma yaho hari ishyamba n'icyapa cyanditseho akanyaru, huye, muhanga; hariho icyapa kiriho akantu kazamuye ndetse n'ikindi gitambika hariho Ruhango, Kinazi

Amafaranga menshi agiye azinze hanyuma hari amafaranga y'ubwoko butandukanye hari umuntu urimo urayabara, si ibyo gusa kandi nyuma hari abandi bantu bicaye. Amafaranga nk'ayangaya akunda kuyasanga mu mabanki atandukanye, cyangwa se mu biro bivunja amafaranga. Hanyuma rero nko mu biro bivunja amafaranga bagira ubwoko butandukanye bw'amafaranga, kugira ngo nuzana amafaranga runaka baze kugufasha baguhereze amafaranga wifuza.

Ibiganza bibiri by'umuntu wambaye n'impeta arimo arabara amafaranga agiye atandukanye. Amafaranga rero ni meza mu buzima kuko ubu buzima budafite amafaranga rwose ntago wabubamo. Ngaho urajya guhaha ibyokurya wishyura amafaranga, inzu ubamo ni ukwishyura kugira ngo iminsi yicume, amashuri y'abana ni ukuyishyura, kugira ngo inzu izubakwe ni ukwishyura. Ibintu byose mu buzima ni amafaranga. Bityo rero, twagakwiye kumenya uburyo twakorera amafaranga tukareka ubunebwe kuko amafaranga ni ubuzima.

Ubwoko bw'amafaranga atandukanye, aho harimo inote ndetse n'ibiceri, gusa amafaranga arimo aragaragara neza ni mafaranga y'amayero, aho ari amafaranga akunda gukoreshwa mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'u Burayi, hanyuma ikimenyetso cy'ayo mafaranga aba ari nk'inyuguti ya e icuritse irimo akarongo n'akandi karongo. Naho kode mpuzamahanga ni inyuguti ya e na u na ra. Hanyuma rero iyero rimwe rigiye rigabanyijemo amasenke ijana. Sibyo gusa rero inote zikoreshwa z'amayero ni inote y'atanu, icumi, makumyabiri, ijana, magana abiri, mirongo itanu, magana atanu, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Icyapa kiri kwerekana amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye akoreshwa mu bihugu kandi bitandukanye, birimo birerekana nko mu gihe ujyanye ayo mafaranga ushaka andi runaka, igiciro bayaguheraho ndetse no mu gihe ugiye kuyagurisha cyangwa no mu gihe ugiye kuyagura uburyo amafaranga bayaguhera ku ifaranga rimwe.

Inoti zikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde hariho inote za magana atanu, iz'igihumbi, zifite kandi ishusho y'umugabo uzwi cyane muri iki gihugu witwa Gandi umwe mu bantu bazwi cyane mu mateka y'Ubuhinde, si ibyo gusa kandi izi note zakuweho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu rwego rwo kurwanya ruswa no gukumira amafaranga yacuruzwaga mu buryo butemewe, kuri ubu Ubuhinde busigaye bukoresha inoti nshya zifite ibara ritandukanye n'izi ngizi kuko izi ntago zigikoreshwa muri iki gihugu cy'Ubuhinde.

Ibiganza by'abantu babiri barimo barahererekanya amafaranga y'ubwoko butandukanye, gusa ayo tubona neza n'amafaranga akoreshwa mu gihugu cya nigeriya, aho ari amafaranga yitwa amaniyila. Hanyuma ikimenyetso cy'ayo mafaranga aba arimo inyuguti ya na igiye icyiyemo uturongo tubiri naho kode mpuzamahanga n'inyuguti ya na na ga na na hanyuma rero inayira rimwe rigabanyijemo amakobo ijana si ibyo gusa kandi inoti zikoreshwa muri iki gihugu cya nigeriya ni inote yatanu, icumi, iya makumyabiri na mirongo itanu i'ijana, iya magana abiri iya magana atanu ndetse n'igihumbi.

Ibwoko bw'amafaranga agiye atandukanye harimo inote ndetse harimo n'ibiceri, birimo biragaragara ko ari amafaranga akoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye hanyuma rero bitewe n'igihugu ndetse n'amafaranga gikoresha mu biba bitandukanye aho mu gihe ugiyeho mu gihugu runaka ufite amafaranga yo mu gihugu cyawe ushobora kwagera ahantu bavunja amafaranga bakaba bagufasha guhindura amafaranga.

Mu byo ku kuvunjisha amafaranga habamo kuyagura ndetse no kuyagurisha, mu gihe ugiye kuyagura ni igihe ushaka ubwoko bw'amafaranga runaka ugatanga ayo ufite, hanyuma mu kuyagurisha n'igihe uyajyanye kugira ngo bayakugurire, rero hano harimo ha baratwereka uburyo amafaranga agiye atandukanye, hari amafaranga a' madolari akoreshwa muri amerika, amayero, ndetse n'andi mafaranga agiye atandukanye, uburyo igiciro cyayo gihagaze iyo ugiye kuyagura ndetse no kuyakoresharisha.

Inzu yerekana ko bavunja amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye kuko hari ibirango bigenda bibyerekana, ubundi mu busanzwe aba ari ahantu abantu bashobora kujya guhinduza amafaranga y'amahanga, akenshi bikoreshwa n'abantu bagenda mu mahanga cyangwa abacuruzi bakeneyera amafaranga atandukanye kugira ngo babashe kugura cyangwa kugurisha ibicuruzwa by'abo bitandukanye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu bwerurutse wicaye ku gatebe, imbere ye hari icyapa herekana ko ari ahantu bavunja amafaranga bayavana mu mafaranga y'ubwoko bumwe bayashyira m'ubundi, n'amafaranga y'ubwoko bwinshi cyane ayo twabasha kuvuga n'amadolari, amafaranga akoreshwa mu gihugu cya CANADA, amafaranga akoreshwa y'amayero ndetse n'ayandi agiye atandukanye. Mugihe wifuza ko bakuvunjira amafaranga wegera ahantu nk'ahangaha baragufasha rwose kandi byoroshye.

Ahantu hatangirwa serivisi z'imari by'umwihariko zijyanye no guhererekanya amafaranga no guhinduranya amafaranga y'amahanga. Hagaragaraho ikimenyetso cya Western Union, mu ndimi z'amahanga, aho ari ikigo kizwi cyane cyane mu guhererekanya amafaranga ku rwego mpuzamahanga. Ku ruhande rw'ibumoso kandi hari ikarita ya banki ikoreshwa mu kubikuza amafaranga aho abantu bashobora kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga bakoresheje amakarita yabo. Haranagaragara kandi ibyapa bitandukanye biri ku rugi bigaragaza amashyirahamwe cyangwa amabanki nagiye gukorana nayo.

Icyapa cyerekana abantu bakoresha serivisi zitandukanye aho bakora serivisi zose zerekeranye na banki yakigali. Sibyo gusa kandi bakora ivunjisha ry'amafaranga. Ushobora gukenera kohohereza amafaranga yawe cyangwa se kuyabitsa no kuyabikuza ukoresheje banki ya kigali wabagana bakagufasha cyangwa se ukeneye kuvunjisha amafaranga yawe uvana mu ifaranga rimwe ujyana mu rindi bagufasha. Ubakeneye wahamagara kuri zeru karindwi imani ibiri, kane gatanu, gatatu kane gatanu gatandatu cyangwa zeru karindwi kabiribiri, kane gatanu, kane gatatu, gatanu gatandatu.

Ibiro bifunze amafaranga bifite icyapa cyerekana uburyo amafaranga agenda avunzwa bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'amafaranga ufite ndetse n'igihugu ukomokamo, hari igihugu cya amerika, hari igihugu cye mu busuwisi, hari n'igihugu cyo muri australia ndetse n'igihugu cy'ubuyapani. Rero bagenda bafite amafaranga atandukanye birimo birerekana uburyo amafaranga y'ubwoko bwabo agenda avunjwa bitandukanye.

Ibiro bivunja amafaranga biherereye i Remera, ese ushobora kuba wibaza ngo nko mu biro bivuja amafaranga bakora iki nuvanga ibikorwa byinshi bijye bitandukanye nuko bavunja amafaranga bayavana mu bwoko bumwe bayajyana mu bundi, nk'urugero ushobora nko kuva muri Amerika ukaza nko mu gihugu cy'u rwanda ukaba udafite amafaranga y'amanyarwanda kandi nta kuntu ushobora kuba wabaho udafite amafaranga y'umunyarwanda mu gihugu cy'u rwanda icyo ukora rero ujya nkahangagahe kuko ibibero bivunja amafaranga bakaguhindura amafaranga yawe mu banyarwanda uka wayakoresha.

Inyubako yerekana ko itanga serivisi zo kuvunja amafaranga ava mu bwoko runaka ajya mu bundi, hanyuma hari ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bitewe n'igihugu, kuko buri gihugu kigenda gikoresha ifaranga ritandukanye n'iry'ikindi, mu gihe rero ageze mu gihugu runaka ukifuza kuvunjisha amafaranga yawe uyavana mu gihugu cy'uvuyemo uyashyira mu kindi gihugu ugezemo, ushobora kwegera ahantu nk'ahangaha kuri ibi biro baragufasha bakaguhereza amafaranga rwose kandi ku giciro cyiza.

Ibiro bivunja amafaranga harerekana ibirango bigiye bitandukanye byerekana ko hari ibiciro byiza byo guhindura amafaranga, ku meza hari ibimenyetso by'amafaranga atandukanye nk'amafaranga y'Amerika, amafaranga y'Ubwongereza, ay'i Burayi ndetse n'ay'Ubuyapani, sibyo gusa kandi ku meza hari imashini ishyirwaho amakarita ndetse ku runde hari ikarita yo kubikouzamo amafaranga ku ruhande rw'ibumoso, ibi byose byerekana ko ari ahantu hagezweho hatanga serivisi zizewe zo guhindura amafaranga.

Inzu y'ivunjisha ry'amafaranga hariho ibyapa binini byanditseho amagambo yerekeye byo kuvunja amafaranga .Ku muryango kandi hariho amashusho y'inoti z'amafaranga atandukanye ,agaragaza amafaranga akoreshwa mu bihugu bitandukanye .Mwene nk'izi nzu rero nukuvuga ngo abari ahantu abantu bajya kugira bavunjishe amafaranga yabo cyane cyane abagenzi cyangwa abacuruzi bakeneyera amafaranga y'andi mahanga .Kurundi ruhande hari moto ziparitse bigaragaza ko ari ahantu hakunze gusurwa. Iyi nzu y'ivunjisha rero iri mu gace k'ubucuruzi kuko ku ruhande rwayo hari andi maduka atandukanye.

Ibiro bivunja amafaranga imbere y'aho hari ivaze iriho ururabo rusa umweru. Mu biro bivunja amafaranga rero bidufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, aho bidufasha guhindura amafaranga amwe tuyavana mu bwoko bumwe tuyajyana mu yandi kandi bitanagoranye na gato rwose ni ibintu byoroshye cyane. Ushobora kujya mu gihugu runaka hanyuma wakenera amafaranga yabo waba utayafite ushobora kujya ahantu bavunja amafaranga bakaguhindura amafaranga yo mu icyo gihugu kugira ngo uze kuza kuyakoresha mu gihe uyakeneye.

Ibiro bivunja amafaranga hari ibirango byerekana ko hari ahantu mpuzamahanga hakorana n'amafaranga atandukanye harimo amadorari ,amapawundi, amayero ndetse n'andi biragaragara ko iyi serivisi iri ahantu hahurira abantu benshi nk'ikibuga cy'indege cyangwa aho abagenzi banyura bakenera guhindura amafaranga yabo mu yindi ifite agaciro gakenewe mu gihugu barimo. Hari abakozi bari ku meza bakira abakiriya naho undi mugenzi ari kwishyura cyangwa kwakira serivisi.

Ese wowe ni ayahe makuru waba ufite ku biro bivunja amafaranga ibiro bivumo amafaranga ni ahantu abantu bashobora guhinduranya amafaranga y'amahanga n'ayo mu gihugu cyangwa bagahinduguranya amafaranga y'amahanga atandukanye. Bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye nko kuvunja amafaranga y'amahanga mu mafaranga y'iwacu cyangwa se kuvunja amafaranga y'iwacu muyamahanga no gutanga serivisi zijyanye no kohereza no kwakira amafaranga mu mahanga si ibyo gusa kandi byorohereza ba mukerarugendo n'abacuruzi kubona amafaranga bakeneye mu bucuruzi mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Ameza abaje mu giti meza cyane rwose bigaragara ko ari aya kijyambere, sibyo gusa kandi n'ubundi bwoko butandukanye bw'utundi tumeza dutoya, hari n'ubwoko bw'intebe butandukanye kandi zigaragara ko ari nziza, rero mu gihe ugiye nko kubaka umuryango wawe cyangwa se mu gihe ugiye kwibana ushobora kugura nk'ibi bikoresho rwose bigaragara neza n'iyo wagira abashyitsi rwose byabanezeza kuko uba ufite ibikoresho byiza.

Intebe z'ubwoko bwinshi butandukanye ameza ndetse n'utubati, hari utuba ushobora kubikamo amasahani yawe, hari utuba ushobora kubikamo imyenda ndetse n'utwo wabikamo ibikoresho byawe bigiye bitandukanye, sibyo gusa kandi ushobora kwifuza ibikoresho nk'ibi ukaba wakwibaza ngo nabikurahe? Ushobora kujya kuri murandasi yawe ukandikamo aho wakura ibikoresho nk'ibingibi bitandukanye uhita ubona nimero zabo ukabahamagara kandi babikugezaho byoroshye.

Uruganiriro rurimo intebe nziza cyane kandi zitangaje ni za ntebe zigiye zifite imisego yazo myiza cyane iri mu mabara atandukanye, harimo ameza meza cyane, harimo imitako, harimo n'amavaze agiye arimo indabo, ushobora gukenera ibikoresho nk'ibingibi biroroshye cyane hari abantu mu Rwanda rwose babigize umwuga bakora ibikoresho byiza nk'ibi rwose ukitakira uruganiriro rwawe neza cyane.

Ese nawe waba uri muri bamwe bajya bibaza ngo nakura he nk'ibikoresho byiza, byizewe bya kijyambere kandi bigezweho, nashyira mu nzu yanjye: Nk'ibitanda, ameza, intebe ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye? Hano tugufitiye igisubizo. Hari akameza ushobora gushyiramo Televiziyo yawe kagiye gafite ububiko butandukanye kandi butangaje bwiza. Ni akameza rwose, nawe ubwawe wabona kandi ugakunda.

Inyubako nziza cyane rwose iri ahantu heza ifite amatara amurika neza rwose bishimishije kandi biragaragara ko ashobora kuba nka hoteri cyangwa se ahantu bakirira abashyitsi b'imena, hari umugabo kandi urimo aragaragara ufite imashini arimo arayikoresha hanyuma yambaye ikote ndetse yambaye n'ishati yambaye neza rwose bigaragara biragaragara ko ashobora kuba ashinzwe kwakira abashyitsi bagana nk' nyubako.

Biragaragara cyane rwose ko hano hantu ari mu kabari kagezweho ka kijyambere kandi kizewe hari n'umutekano, rero ntabwo ari umuntu uwo ari we wese ubonetse wajya kunywera ahantu nk'aha ngaha kuko harimo inzoga z'ubwoko butandukanye nziza kandi zihenze, hari n'ahantu rwose ho kwicara ukaganira n'abantu, hatuje kandi hizewe.

Inyubako nziza cyane yanditseho ijambo Mariyoti mu nyuguti nkuru. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ni iki? Mariyoti ni imwe mu mahoteli akomeye kandi agezweho ku isi, ifite serivisi z'icyubahiro, zituma abayigana bishimira ihumure n'ubwiza bwayo. Iyo ugeze muri iyi hoteli usanganirwa n'imitako igezweho, amacumbi afite ibikoresho byiza n'uburyo bwo kwakira abantu bujyanye n'igihe. Iyi hoteli kandi izwiho kugira ibyumba byiza by'amacumbi, resitora zitanga amafunguro ahumura neza kandi ateguwe mu buryo bwa kinyamwuga, hamwe n'ibyumba by'inama bihuye n'ibyifuzo by'abakiriya batandukanye. Na none kandi Mariyoti ikunda gushyira imbere serivisi z'ubwogero n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inyubako nziza cyane kandi zigezweho ,zifite ibara ry'umweru n'ibara ryijimye zifite amagorofa kandi hari imodoka iparitse ku ruhande rw'ibumoso imbere hakaba hari ubutaka buto ndetse n'umuhanda ukozwe neza, ikirere kigaragaza neza ko gisa n'ikiriho ibicu bike hanyuma kandi yafatiwe ahantu h'amacumbi cyangwa inyubako zifite ubucuruzi kubera uko zubatse neza kandi zigerekeranye ,hari n'intebe n'ameza zo ku ruhande bishobora kuba ahantu ho kuruhukira cyangwa Aho abantu bashobora kwicara ubusanzwe ahantu nk'aha hashobora kuba hotel inzu z'amacumbi cyangwa inyubako zifite ibikorwa bitandukanye.

Urutonde rw'amafunguro ndetse n'ibinyobwa, biba biboneka ahantu runaka cyane cyane mu mahoteri, resitora cyangwa utubari. Hanyuma rero mu rwego rw'ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa, aho abakiriya bahitamo ibyo bashaka kurya cyangwa kunywa, ubahereza uru rutonde kugira ngo barwifashishe. Hanyuma rero, uru rutonde rw'amafunguro cyangwa se urutonde rw'ibinyobwa, bitewe n'aho bikoreshwa akenshi haba harimo ibisobanuro by'amafunguro arimo, ibiciro byayo ndetse rimwe na rimwe n'ifoto igaragaza uko igaburo riba rimeze, hari n'ibindi kandi bigiye bitandukanye, ushobora kwifashisha ugiye nko muri hoteli cyangwa resitora bitameze nka gutya.

Umuhanda munini biragaragara neza cyane rwose ko ari nijoro. Hari inyubako nini y'amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi ifite amatara amurika neza. Hari imodoka nyinshi ziri ku ruhande rw'umuhanda ndetse n'izindi ziri kugenda. Nubwo zimwe zigaragara nkaho ziri kugenda byihuse, bitewe n'uko bigaragara. Amatara yo ku muhanda kandi, atanga urumuri rufasha kubona neza ibiri aho hantu. Imodoka zimwe ziri gutambuka, bigaragaza ko ari ahantu hahora abantu n'ibikorwa. Ibiti nabyo bigaragara ku ruhande rw'umuhanda, birimo biratanga ubwiza karemano.

ese mwari muzi neza cyane ko aha hantu hagezweho hifitemo uburanga buhebuje ndetse n'imitako yuje ubuhanga inzu ifite igishushanyo kigezweho aho ubusitani bwo ku butaka bwakozwe mu buryo bw'imigongo y'ibara ry'umukara n'umweru bigaragaza umwihariko mu bwiza bw'inyubako mu gice cyo hejuru kandi hari amatara menshi afite igishushanyo cyihariye bigaragaza ko umucyo uhagije kandi urumuri rutanga ubwiza bukenewe mu nyubako inyubako ifite inkingi ndende bigaragaza ko ari ahantu hakozwe mu buryo bugezweho kandi hifashishi ubuhanga mu bwubatsi

Ese wari uzi neza cyane ko ahantu nk'ahangaha ushobora kuba waharuhukira kandi ukumva uguwe neza? Hari intebe nziza cyane zifite amabara atandukanye ameza yo kuriraho, imitako y'ibimera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari ikirere cyiza cyane bigaragaza ko ari ahantu hashobora kuba hoteli, resitora cyangwa se akabari keza abantu bashobora kwicaramo bishimira umwuka mwiza n'ibidukikije.

Ahantu hameze nk'ibiro byiza cyane biteguye neza hari intebe nziza zimeze nk'izabayobozi, hari ameza kandi meza cyane acyateretseho amazi ndetse namakayo kwandikamo biragaragara ko ari inama igiye kuhabera wenda nk'inamama ya politiki y'inama y'ubuyobozi runaka cyangwa se ya kompanyi runaka.

Igice cy'imbere cyo muri resitora cyangwa ahantu ho kurira hari ubusitani bwiza hari ibyatsi binini biri imbere bituma ahantu hasa neza kandi hatuje, muri iyo resitora kandi hagaragara ameza basizeho ibikoresho byo kuriraho kandi hari umukozi wambaye imyenda y'abategura amafunguro bisa nk'abagiye mu kazi ke, hari igisenge rero kandi cyakozwe mu buryo busa n'icy'imbaho cyangwa se ibindi bikoresho bisukuye inyuma hari ibiti n'inyubako zisa n'izubatswe mu buryo bwa kera cyangwa se uburyo bwa gakondo.

Akabari keza gafite igishushanyo cyiza cy'imbaho, karimo ibinyobwa bitandukanye birimo inzoga n'ibindi binyobwa bikomeye, bibitswe mu masherifu. Si ibyo gusa kandi hari ibirahuri byinshi byateguwe neza ku rwego rwo hejuru hamwe n'ibangukiragutabara y'ibinyobwa ndetse n'amamashini agiye atandukanye. Ni ahantu hasa neza cyane rwose, hashobora kuba hoteri, resitora cyangwa se akabari kagezweho, cyane cyane nko mu mujyi wa Kigali.

Inyubako y'ubucuruzi ikoreramo ibigo bike bitandukanye bikora serivisi zitandukanye, ku ruhande rw'imbere hari ibyapa binini bigaragaza amazina y'amashyirahamwe akorera muri iyi nyubako harimo nk'ikigo cy'ubwishingizi aho bakora ivunjisha ry'amafaranga ndetse n'ibindi bikorwa nk'ibijyanye no kwiga mu mahanga. Hari amatangazo kandi amanitse kuri iyo nyubako agaragaza ko aho ibyo bigo bikorera n'ubwoko bwabyo ndetse na serivisi bitanga, hanyuma rero ni byiza ariko tumenya ibijyanye na serivisi zigiye zitandukanye.

Iduka rinini cyane rwose riherereye mu ishami rya Remera. Ririmo ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye iyo winjiye ahangaha uragenda ugahitamo icyo ushaka, hanyuma ukazana ukishyura kuko ibiciro biba birimo biragaragara no ku gicuruzwa mbere y'uko ugifata, ni ukuvuga ngo ujya kwishyura wamenye ko ari ubushobozi bwo ushobora wakwishyura. Ni iduka ryiza ritanga serivisi nziza kandi riba rifite n'abakozi beza aho bakorera ahantu henshi hatandukanye harimo i Remera ndetse na Nyabugogo n'ahandi hatandukanye.

Icyapa cyerekana ikigo gikora ibijyanye n'ubwishingizi, ishoramari n'ubundi ubufasha bw'imari, tubimenyereye cyane cyane mu by'ubwishingizi aho usanga kopanyi zitandukanye zihereza abakozi babo ubwishingizi nkubungubu, iyo bagiye kwa muganga babavura kandi bakoresheje ubwishingizi.

Inzu nziza cyane rwose biragaragara ko yubatswe mu buryo bugezweho rwose kuko ifite imiryango itandukanye, hanyuma imiryango nk'iyi ngiyi ishobora gufatwa na ba rwiyemezamirimo batandukanye bagakoreramo serivisi z'ubucuruzi zigiye zitandukanye kuko birimo biragaragara ko ari inzu iherereye ku muhanda, kandi ahantu hagera abantu benshi ntabwo byagorana rwose ko abantu baba bakorera muri aya mazu babona abakiriya kandi benshi.

Aho abantu bakirirwa baje bagana ino nyubako hari ameza kandi yakira abashyitsi hamwe n'ikimenyetso cyanditseho ijambo "murakaza neza", hari ibirahure kandi bitandukanye byerekana amazina y'amasosiyete nka SONARWA n'ayandi. Ino nyubako rwose irasa neza cyane ifite amatara agezweho asanzwe amanitse hejuru kandi igiye ifite n'amakaro rwose meza asa umweru, hari umukozi uri ku meza yo kwakira abashyitsi nawe aragaragara mu ruhande rw'iburyo, ibi byose kandi byerekana ko ari ahantu hatunganyijwe neza kandi hiteguye kwakira abashyitsi.

Ese mwari muzi neza cyane ko ushobora kujya guhaha cyane cyane muri aya maduka manini agezweho ukagenda utitwaje amafaranga cyangwa se telefone yawe? Ushobora kwitwaza ikarita yawe ya banki nk'urugero ikarita ya banki ya Ekobanki hanyuma rero ugahaha ibyo ushaka, ubahereza ikarita yawe ukishyura ukoresheje ikarita bitagusabye gutwara amafaranga mu ntoki. Ushobora kwibaza ngo ino karita wayibona hehe? Ushobora kwegera amashami agiye atandukanye ya Ekobanke bayiguhereza rwose ukazajya nawe uhabigezweho.

icyapa kiri umukobwa rwose urimo uraseka wishimye ni icyapa cya banki hano mu rwanda dukunda kwiyita mu mpine na na ca ,na ba a ni banki muri banki zigezweho kandi zizwi mu rwanda aho ushobora gukenera inguzanyo bakayiguhereza kandi ku nyungu ntoya ukaba wakwiyubakira nk'ikibanza cyawe ukaba wakwigurira imodoka yawe kandi ukabishyura rwose kuko amafaranga make cyane rwose y 'inyungu.

Isoko ry'imbuto zitandukanye harimo imineke, amacunga, amananasi, ibinyomoro, imyembe ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hari umugore uri imbere y'izo mbuto biragaragara ko ari we uzicaruza, hari n'umugabo uri inyuma ye bigaragara ko yaje kugura. Banyarwanda, banyarwandakazi ni byiza ko dukoresha imbuto tukazirya kandi buri munsi, kuko zongera byinshi mu buzima bwacu zigakiza n'indwara.

Isoko ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'umwihariko iby' imboga, hari umugore wicaye imbere, wambaye ikanzu y'igitenge hari n'abandi bagore bari ku ruhande rwe, birimo biragaragara ko ari abacuruzi b'izi mboga, mu izo mboga harimo inyanya, harimo amashu, harimo intoryi, harimo karoti n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kandi imboga ni nziza ku buzima bwa muntu.

Abantu benshi bagiye batandukanye, birimo biragaragara ko bahuriye mu isoko, kuko hari ibicuruzwa bitandukanye harimo ubwoko bw'imboga kuko turabonamo intoki inyanya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma rero isoko n'ahantu hahurira abantu benshi batandukanye, hab harimo abacuruzi, haba harimo abaje kugura, haba harimo n'abaje gutanga serivisi nyinshi zitandukanye.

Inyubako igezweho ifite ibirahuri byinshi bifite amabara yerekana ubwiza bwayo, ni inyubako nini kandi ifite umwihariko, ubwubatsi bugezweho, aho igice cy'inyuma cyubatswe ku buryo butari busanzwe, bigatuma igaragaza nk'ifite igishushanyo kihariye, ku ruhande rw'iyo nyubako hari abantu batandukanye bari mu muhanda bamwe bagenda abandi bari hafi y'imodoka, hari n'igice kandi cyafunzwe n'uruzitiro rw'ubururu, bishobora kuba byerekana ko hari ibikorwa birimo birahakorerwa bigiye bitandukanye.

Ubwoko butandukanye bw'imboga harimo ibitunguru bya puwaro, karoti ,amashu ndetse n'imboga z'icyatsi .Mu busanzwe imboga zigira akamaro kanini ku buzima bwa muntu kuko zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye .Mu kamaro kazo harimo kongerera umubiri intunga mubiri ,kurinda indwara harimo indwara zitandukanye nka kanseri ,umutima, diyabete n'izindi. Imboga kandi zifasha mu igogora, zifasha mu kugabanya ibiro no kongerera umubiri amazi kuko imboga nyinshi zigizwe n'amazi ku gipimo cyo hejuru zifasha umubiri mu kugumana ububobere bukenewe.

Isoko ricuruza ubwoko bw'mbaga butandukanye harimo intsindada, intoryi, okaroti, tangawize, beterave, na tungurusumu ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye harimo abagore batandukanye, harimo abambaye ibitenge bigaragara ko ari abacuruza ubu bwoko bw'imboga. Imboga ni ubuzima tuziryaye buri munsi kandi tuzikunde kuko zikingira indwara nyinshi zitandukanye mu mubiri kandi zigatanga imbaraga ku mubiri.

Amagi menshi cyane agiye apanze ahantu hameze nko ku meza hari abagore kandi babiri birimo biragaragara ko barimo baracuruza ayo magi, amagi rero ni meza cyane ku buzima bwa muntu, niba utanayarya rwose ugerageze uyarye kuko atanga intungamubiri nyinshi cyane, afasha imikorere myiza y'ubwonko akomeza amagufa ndetse n'amenyo kanda afasha kubaka imikaya, sibyo gusa kandi ateza imbere uruhu n'umusatsi ndetse arinda indwara z'umutima n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bijyanye n'ubugeni ni ukuvuga ngo babike bitandukanye aho mugihe ushaka gukora inzu yawe neza cyangwa kuyitaka neza ushobora kwegera inzu nkiyingiyi bakurebera imitako igezweho kandi myiza, byerekana ubwiza karemano hanyuma ukaba wagenda ushyira mu nzu yawe aho bakubwira nawe ushobora kuyitaka kandi inzu yawe ikaba isa neza cyane rwose.

Isoko ririmo riragaragaramo abagore batatu, baba baje gucuruza kandi biragaragara ko baba bacuruza ibintu bitandukanye. Mu busanzwe rero isoko, rihurirwamo n'abantu benshi batandukanye, harimo ababa baje kugurisha hari n'ababa baje kugura, hari n'abandi benshi baba bazanywe wenda no gusoresha, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Isoko ricuruza ubwoko bw'imbuto butandukanye harimo amananasi, amapapayi, ibinyomoro, amacunga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma rero imbuto ni nziza ku buzima tuzikunde tuzirye kuko zirinda indwara zikongera intungamubiri.

Akazu ka emutiyeni aha tu gateretse inyuma yaho hari inzu wagira ngo ntabwo yuzuye, hanyuma hari abantu batatu bakikije ako kazu ka emutiyeni bigaragara ko bose bakeneye serivise. Emutiyeni rero itanga serivise nyinshi zitandukanye harimo izo kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kuyohereza n'izindi nyinshi zitandukanye.

Umugabo wishimye cyane rwose wicaye ku igare rye yambaye umupira wa emutiyene (MTN ) hanyuma n'inyuma ye hari umutaka ikirango cya emutiyene( MTN) . Emutiyene ( MTN) rero ni sosiyete ikora ibijyanye n'itumanaho ,ikoranabuhanga mu Rwanda yatangiye gukorera mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na magana acyenda mirongo cyenda n'umunani (1998) .Ikaba ari imwe mu masosiyete akomeye kandi akunzwe cyane mu rwego rwo gutanga serivisi z'itumanaho rya terefoni ngendanwa.

Akazu ka Emutiyene mo imbere harimo umuntu utanga serivisi inyuma rero hari umuntu wambaye ikote ry'umukara waje gusaba serivisi. Ushobora gukenera nko kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, cyangwa se koherereza umuntu amafaranga, ntukibaze uburyo wabigenza mu gihe utabasha kubyikorera kuri telefoni, ushobora kugana abantu bafasha abantu izi serivisi bakorera Emutiyene bakunda kuba bafite utuzu nk'utungutu bagufasha mu izo serivisi.

Abakozi ba emutiyene bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'ingofero, sibyo gusa kandi hari icyuma kizenguruka, aho iyo uhaciye ushobora guhitamo gutombora, barakizengurutsa, hanyuma aho kiguye nicyo gihembo baguhereza. gishobora kugwa mu ma inite y'igihumbi, iyo wayatsindiye rwose barayaguhereza hamwe na ayoba.

Imurikagurishwa rya Emutiyene, hari abakozi ba Emutiyene bagiye bambaye imyambaro yabo hari n'abandi bagabo babiri kandi barimo barabyina. Ibi bintu ni byiza cyane rwose kuko bikurura abaturage n'abakiriya bakaba baza bakabahahira ni ngombwa rero ko twese tumenya uburyo twakurura abakiriya ku bicuruzwa byacu.

Ese mwari muzi neza cyane ko icyari solas cyahindutse snram ,ushakaho kwibaza ngo ibi ni ibiki ni ukuvuga ngo sangram ni ikigo mpuzamahanga gikora ibijyanye n'ubwishingizi, ishoramari n'ubundi bufasha bw'imari hanyuma rero ifasha abantu n'ibigo kubona ubwishingizi guteganya ahazaza no gushora imari mu buryo bwizewe cyane.

Mu gihe ugiye kohereza amafaranga umuntu ukoresha telefone yawe cyangwa wishyura serivisi runaka, kuri emutiyene ukanda akanyeri ijana na mirongo na kabiri akanyenyeri rimwe akanyenyeri rimwe nka akanyeri nimero ya telefone akanyenyeri amafaranga urwego ukemeza, mbere yo gushyiramo umubare w'ibanga banza usuzumye urebe neza ko amazina ahuye n'amazina ugiye kohereza, hanyuma ubone ko memisiyo umubare w'ibanga, nkuko uyu muntu yasuzumye agasanga ari fabrice hakuzimana akaba yari agiye kumwoherereza amafaranga igihumbi.

Akazu ka MTN mu imbere harimo umuntu urimo uratanga serivisi, hanyuma inyuma hari abantu bagera kuri batanu bigaragara ko bose bategereje gufashwa n'uyu muntu urimo uratanga izi serivisi, bashobora kuba baje gusaba serivisi zitandukanye nko kubitsa, kubikuza amafaranga, kohereza amafaranga, kwishyura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ukaba rero uba nk'ahantu rwose ukaba utabasha kwikoreshereza telefone yawe, ni byiza ko ugana akazi nk'aka ngaka bakagufasha, bakagukora icyo wifuza cyose bitagoranye.

Umuhanda w'ikaburimbo urimo imodoka yo mu bwoko bwa dina, ufite ibyuma by'umutuku biyizengurutse isa ibara ry'umweru, imbere yayo hari ibindi binyabiziga birimo biragenda ku ruhande hahagaze abanyamaguru hari n'undi urimo aragenda mu muhanda w'abanyamaguru ku ruhande.

kode ya mtn ariyo rimwe zeru umunani kane rimwe gatatu mtn yarabyoroheje binyuze mu ikoranabuhanga aho umuntu wese asigaye ajya guhaha ikintu hanyuma ukishyura kuri kode kandi ntihagire andi mafaranga y'ikiguzi bamuca ibi bintu ni byiza cyane rwose kuko bituma wirinda nko kuba wabura amafaranga mu gihe wayagendanye kuko uba wifite kuri telefone yawe biba byoroshye

Itangazo ry'iduka rinini cyane riherereye mu mujyi wa Kigali, dukunda kwita ibihumbi bibiri, hanyuma ririmo rirakangurira abakiriya babo gukoresha serivisi zabo zitandukanye, bahaha bakoresheje ikoranabuhanga, aho bashyizemo aderesi yabo, nimero za telefone zabo, imeri yabo kandi bavuga ko batanga ubwikorezi bw'ibicuruzwa ku buntu, mu mujyi wa Kigali, hanyuma kandi harimo n'ibishushanyo by'imodoka y'ubwikorezi n'abantu batanga ibicuruzwa bitandukanye.

uko wagura cyangwa ukagurisha ibicuruzwa byawe ukoresheje ikoranabuhanga kompanyi yitwa cashe yarabyoroheje aho ushobora kuba yagufasha mu bintu byose bitandukanye mu gihe bakeneye ushobora gukora ubusabe bwawe uhamagara ku icyenda rimwe inshuro eshatu cyangwa ukabandikira kuri ze ukarenga umunanizekankane zerugatanu hanyuma kabiri kabiri hari n'uburyo ushobora gukoresha akanyeri icyenda rimwe mu rwego ugakurikiza amabwiriza bakabasha kubabona serivisi zose batanga zitandukanye

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi kibisi w'akazi wanditseho ijambo vuba, ari gufungura cyangwa gufunga igikarito cyanditseho iryo zina nanone bishobora kuba ari igikorwa cyo gutanga ibicuruzwa cyangwa gutegura ibizoherezwa. Hari ibimera n'inkuta inyuma bigaragaza ko ari ahantu hafunguye wenda nko hafi y'urugi cyangwa aho bakorera, umukobwa agaragara aseka rwose bigatanga isura nziza y'umurimo akora. Si ibyo gusa kandi ashobora no kuba ari nka serivisi zijyanye no gutanga ibiribwa cyangwa ibindi bicuruzwa mu buryo bwihuse.

Ese wari uzi neza cyane ko mu Rwanda hari kompanyi yitwa kasha, ishobora kugufasha mu guhaha ndetse no kugura ibikoresho byawe bitandukanye, bikagusaba kwishyura gusa ukoresheje ikoranabuhanga kandi bakabikugerezaho iwawe, mu rugo ahantu wibereye, bitagusabye gukora ingendo no kwangiza umwanya?

Umu motari wambaye ingofero cyangwa se icyo dukunda kwita kasike y'icyatsi kibisi ,hanyuma rero atwaye moto ifite agasanduku k'ubutumwa ku mugongo kariho ibirango bya kashe .Kashe ni sosiyete icuruza ibikoresho by'isuku n'ubuzima nkuko bigaragara ku gasanduku k'iyi moto hariho amakuru y'uko umuntu ashobora gukoresha akanyenyeri, icyenda ,rimwe abyira ,urwego cyangwa guhamagara ku icyenda, rimwe eshatu kugirango abone serivisi za kasha ndetse n'urubuga rwabo arirwo wa eshatu akadomo kasha akadomo r na w.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa kigali kabeza ifite ubwogero bwiza cyane nkuko' tubibona kandi bufite isuku hari amatara meza cyane kandi agezweho ukaba rwose uvuyemo mu mahanga wifuza kuba ukaba se cyangwa usubije mu mujyi wa kigali wifuza amaku ukaba ufite amafaranga make cyane ariy'amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi wabona inzu nziza ukaba heza hafite umutekano hafite isuku kandi hari ibikoresho byiza cyane bigezweho

Abantu benshi bakunda kuvuga ngo amazu y'i Kigali arahenda ntago nayibona byagorana, hanyuma rero ntago ari ko bimeze kuboneza i Kigali biroroshye kandi ukayibona ku mafaranga make cyane, iri ahantu heza, ku muhanda hari isuku, hari umutekano, inzu ifite ubwiherero bwiza, uburiro bwiza, ibyumba byiza cyane, ku mafaranga kandi make cyane, hano tubafite iyi inzu igurishwa miliyoni ijana mirongo itatu, hanyuma ukayegukana ukayibanamo n'abawe n'umuryango wawe.

Igikoni cya kijyambere giherereye mu mujyi wa kigali kacyiru aho hagiye harimo ibikoresho bijye bitandukanye ndetse n'ahantu ho gutekera hanyuma rero iki gikoni cyubatswe hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho ibikoresho bigezweho n'imyubakire igezweho kugira ngo gikore neza kandi cyorohereza abagikoresha ibiranga igikoni cya kijyambere nk'iki harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amashyiga akoresha amashanyarazi cyangwa gaze, firigo zifite ubushobozi buhanitse imashini zikoreshwa mu guteka no gutunganya ibiryo n'ibindi si ibyo gusa kandi hari ubwiza n'imitako kuko biba bigira ngo hagaragare neza kandi hafite isuku nyinshi.

Inzu nziza cyane irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe, harimo ameza kandi ya kijyambere, harimo amatara kandi meza cyane. Ni inzu turimo turabona ko iherereye Kicukiro mu Kagarama mu mujyi wa Kigali. Ino nzu rero, ni za nzu za kizungu, zigezweho, iyo ugiye kuyikodesha winjiramo wowe ubwawe wenyine, nta bikoresho wijyanira kuko ibikoresho byose usanga birimo nk'izi ntebe nziza cyane zirimo.

Inzu nziza cyane rwose iherereye mu mujyi wa kigali i kanombe ahantu hari umutekano cyane kandi harinzwe n'inzu rwose ifite ubwiherero bwiza cyane nkuko turimo turabibona n'inzu wagura kandi ukayibamo ndetse n'umuryango wawe mukaba mutekanye ukaba ufite miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda waduhamagara rwose tukakubwira uburyo wayibona kuko aya n' amafaranga make cyane ugereranyije n'agaciro k'iyo nzu.

Waba uturutse mu mahanga ukaba udafite ahantu ho kuba? Cyangwa se ukaba uteganya kuzaza wifuza ahantu ho kuba? Hano i Kigali biroroshye cyane rwose, tuba tubafitiye amazu aho ikintu cyonyine witwaza ari imyambaro yawe, naho ibindi bikoresho byose uko byakabaye ubisangamo bikenerwa mu nzu. Ni inzu ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi mu Mujyi wa Kigali. Iherereye Kacyiru, hanyuma rero ngwino tugufashe kuba heza kandi rwose mu mutekano bitakugoye.

Ese mwari mubizi neza cyane ko ikoranabuhanga ryabyoroheje waba wifuza inzu yo kubamo cyangwa gukoreramo ushobora kutwandikira ukoresheje kuri ijambo I,n,f,o ugashyira akamenyetso k'alobase ugashyira v,I,b,e,ugashyira akadomo ugashyiraho r,na w waba watwandikira kandi tukagufasha cyangwa se ukatwandikira kuri watsapu kuri zeru karindwi iminani iminani ibiri amake atatu kabiri karindwi gatatu ni uburyo bworoshye cyane rwose twakora uko dushoboye tukamenya ko wabonye icyo ushaka.

Ukaba wifuza inzu ifite umutekano, iri heza kandi rwose igezweho. Uka wibaza ngo nayikura hehe? Igisubizo cyawe kirahari kuko hari inzu byose wifuza birahari rwose, igiye ifite ubusitani bwiza, indabyo nziza zitanga umwuka mwiza, ukaba uyikeneye ushobora kutugana ku rubuga rwacu nk'uko bigaragara hanyuma tukaguhereza amakuru yerekeranye n'igiciro kandi rwose wabyishimira.

Inzu nziza cyane iherereye ahantu heza, iherereye mu mujyi wa Kigali muri kabeza, n'inzu ifite inzugi ndetse n'amabati ya kijyambere, n'inzu kandi irimo iragurishwa ahomo iragurishwa miriyoni mirongo irindwi n'eshanu, hanyuma rero uguze ino nzu nta gihombo kirimo kuko n'inzu bigaragara ko yubatse neza kandi imeze neza cyane rwose k'umuntu wayigura nta gihombo.

Inzu nziza cyane ikodeshwa, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Remera, hanyuma rero ni inzu irimo ibikoresho byose bitandukanye, igiye uyifuza rwose ikintu witwaza ni imyambaro yawe yonyine ibindi byose ubisanga mu nzu, ikodeshwa amafaranga make cyane ku kwezi aho ari ibihumbi magana atandatu kandi ntago waba wihenze rwose, kuko ni inzu y'ibyumba bibiri kandi rwose ari ahantu heza iherereye ahantu heza hari umutekano.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, i Kanombe. Ni inzu rwose igura amafaranga macye cyane kuko irimo iragurishwa amafaranga miliyoni ijana mirongo ine, ntago ino nzu rwose uyiguze waba uhenzwe ushaka kuyibanamo n'umuryango wawe, n'inshuti zawe, abavandimwe bawe, ni inzu rwose wabamo nawe ukumva ko ubaye heza, kandi hegere ibikorwa remezo byose.

Inzu nziza cyane rwose ishashemo amakaro meza ano makaro abantu benshi bakunda kuyakunda cyane bitewe n'uko atandura ubusa nk'ayandi, ni inzu iri mu mujyi wa Kigali igura miliyoni ijana na mirongo itatu ukaba uyafite rwose wayigura ukoresheje ayo mafaranga yonyine ikaba iyawe nta mpungenge kandi wayibanamo n'umuryango wawe rwose.

Waba wifuza inzu wabamo ndetse nabawe, kandi nziza iherereye heza kandi ifite umutekano? Hano tubafitiye nzu, ni inzu iherereye mumujyi wa Kigali, iragurishwa amafaranga make cyane, aho irimo iragurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, ni ukuri ntago ari uguhendwa, uyiguze waba w'iyizigamiye. Ni inzu birimo biragaragara ko ifite uruganiriro rwiza, ifite ibyumba byiza kandi amadirishya meza, si ibyo gusa kandi igifite n'irange ryiza, amatara meza cyane kandi agezweho n' ukuri izigamire, ugura ino nzu ku giciro gito cyane.

Mu mujyi wa Kigali rwose hagiye harimo inzu nziza kandi cyane zifite ubwiherero bwiza nk'uko murimo murabibona, zite kandi n'ubwogero bwiza, ukaba wifuza gukodesha inzu, ukaba wifuza kuyigura, nkizingizi rwose wazibona ku igiciro gito cyane rwose, kandi ni ahantu wakwishimira kuko hari isiku birimo biragaragara, cyane cyane mubwiherero.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa kigali, igiye ifite ibyumba byiza cyane bishashe neza bafite ibitanda bigezweho kandi byiza, iherereye heza, ni ukuvuga ngo iyo ugiye kwinjira muri iyo nzu ushaka kuyikodesha ujyanamo imyambaro yawe yonyine, ibindi bikoresho byose ubisangamo uko byakabaye, ni inzu ikodeshwa amafaranga make cyane aho ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu buri kwezi.

igikoni cyiza cya kijyambere iyo winjiyemo nko mu mazu cyane cyane y'abantu bafite amafaranga cyangwa amikoro ari hejuru ubu usanga bagiye bafite ibikoni byiza bigezweho bigiye bifite utubati tugiye twometse ku nkuta aho bashyiramo amasahani y'ibirahuri amatazi ibyo kurisha n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye niho usanga kandi byo mu bikonjesha aho bashyiramo ibyo kunywa bikonje ugasanga harimo n'imashini zitandukanye ziteka.

Ushobora kuba uri kuva mu mahanga uteganya kuza mu Rwanda, ukibaza ngo naba he, cyangwa se ukaba uteganya kuzaza mu Rwanda mu minsi iri imbere, ukibaza ngo inzu nziza nabamo ni iyihe? Hano tubafitiye inzu nziza cyane rwose i Kigali Kimironko ni inzu wakodeshamo kwezi, amezi abiri cyangwa se igihe cyose ushaka. ni inzu rwose ya etaje ifite amagorofa abiri, ushobora guhitamo kuba hasi cyangwa se hejuru, biterwa n'aho ukunda, ni ahantu hatuje hari umutekano.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa kigali akarere ka Kicukiro, n'inzu ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe aho ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu bya buri kwezi, ni inzu iri ahantu heza rwose bigaragara ko ifite umutekano, kuko aho hantu hafite n'imbuga nziza cyane ntabwo rwose wakodeshereza nk'iyi ngiyi ngo abashyitsi baza kugusura rwose, babure kubona ko hafite umutekano ndetse ari inyubako ijyanye n'igihe.

Inzu nziza cyane ikodeshwa, iherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali Kanombe, igiye ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu, ni inzu nziza rwose ubona ko isakaye bya kijyambere, igiye ifite umutekano ibaheza kandi iri ku muhanda, ukaba wayifuza rero yikodesha n'amafaranga make cyane, kuko iri no ku muhanda ifite umutekano, wayibamo wowe n'abawe bagiye batandukanye.

Ukaba wifuza inzu wabamo n'umuryango wawe, inshuti zawe cyangwa se abantu benshi bagiye batandukanye cyangwa se ukaba ugiye gushinga urugo, ukibaza ngo inzu nziza nabamo n'umuryango wanjye n'umufasha wanjye yaba ari iyihe? Hano tubafitiye inzu nziza cyane ku giciro gito cyane, iherereye mu gihugu cy'u Rwanda, muri Kigali Kimironko, ifite ibyumba bine, ubwogero butatu. Ku mafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi waba heza kandi hatuje.

Inzu nziza cyane rwose, ihereye i Kanombe mu Busanza, ni inzu ikodeshwa kandi ni inzu ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ni inzu igiye ifite irangi ry'umweru, ifite kandi n'izindi ku ruhande rwayo, ni inzu wakodesha nk'umuryango kandi ubaye heza unezerewe, hagiye hari ibiti, hari indabyo ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye.

Inzu nziza cyane iherereye i Kanombe irimo irakodeshwa, Kandi ku giciro gito, n'inzu iherereye ahantu heza rwose, mu mbuga hasashemo amatafari meza ya kijyambere, igiye ifite kandi n'igipangu kiza cyane, n'inzu irahantu hafite umutekano rwose birimo birigaragaza. Ifite isuku, ibawemo nabantu babasirimu cyangwa se abantu b'abanyamafaranga. Humura nawe rwose waba ahantu heza kandi bikakubera.

Ukaba uri umunyarwanda cyangwa umunyamahanga uba mu Gihugu cyo hanze, ukaba wibaza ngo ko nifuza kuza mu Gihugu cy'u Rwanda nzabona ahantu ho kuba? Biroroshye cyane rwose hano i Kigali Kicukiro, i Kanombe tubafitiye inzu nziza cyane ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi, ifite ibyumba bine ubwogero butatu, ndetse n'uburiro bwiza cyane rwose. Iri ahantu heza kandi hari umutekano icyo winjizamo n'imyenda yawe rwose yonyine, ibindi byose ubisangamo kandi bifite agaciro keza gahambaye.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, muri Kimironko, ifite ibyumba bitatu, ikagira ubwogero bubiri. Ni inzu ikodeshwa kandi igakodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda ya buri kwezi. Iyi ni inzu udashobora kwibanamo, kuko rwose waba urimo urihombya, biba byiza rwose iyo ugiye kuyibanamo n'umuryango wawe, kuko nibwo waba udahombye.

Inzu nziza cyane rwose isakaye bigezweho hagiye hari indabo nziza cyane zituma ino nzu rwose iba nziza kurushaho n'inzu iherereye kicukiro mu kagarama ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu bya buri kwezi ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu nk'umuryango wawe rwose mushobora kuyikodesha mukaba heza mukagira ubuzima bwiza kandi nta kibazo na kimwe mufite.

Inzu nziza ya etaje y'amagorofa abiri, isakaye mu buryo bwa kijyambere, igiye ifite ibara ryiganjemo umweru, si ibyo gusa kandi hari imbuga nziza cyane, ifite amatafari apavomye neza ya kijyambere, agezweho, hanyuma rero kandi hari n'indabyo zigiye zitandukanye z'ubwoko bwinshi butandukanye, zerekana ko hano hantu hari isuku kandi rwose wakwishimira kuhaba. Ukaba wifuza kuba mu nzu nk'iyi ngiyi, biroroshye, mujyi wa Kigali wayibona ku mafaranga make cyane.

Umugabo wambaye ipantaro isa n'ikote, yambaye na karuvati. Iyi myambarire dukunda kwita kositimu, ahagaze imbere y'inzu y'igorofa nziza cyane kandi igezweho. Iyi nzu ifite igishushanyo kigezweho, ufite amadirishya manini ndetse n'ibirango byiza by'imyubakire ku nkuta. Urebye uko umugabo ahagaze n'uburyo afite ikintu mu ntoki, bishobora kugaragaza ko ari umuyobozi, umushoramari cyangwa umuntu, uri kumenyekanisha iyo nzu nk'icyo ikorerwamo cyangwa se ikaba igurishwa cyangwa se iri gushakirwa abantu bayikodesha.

Inzira iri ahantu heza cyane mu gipangu ku mbuga yabo hashashishije amatafari cyangwa se icyo dukunda kwita amabuye sibyo gusa kandi ni inzu isakaje amabati ya kizungu cyangwa ya kijyambere ni inzu nziza cyane ikodeshwa iherereye i kanombe ifite ibyumba bine, ifite ubwogero butatu; iyo nzu ninzu ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi uyikodesheje nta gihombo cyaba kirimo ndetse n'umuryango mugari wayibamo.

Ukaba ukeneye amatapi meza cyane agezweho wategura mu ruganiriro rwawe ni hano wayasanga, haba hari amatapi y'ubwoko bwinshi butandukanye kandi meza cyane, haba hari amatapi manini ushobora gutaka inzu yawe yose, haba hari amatopi matoya ushobora gushyira ahantu hajya ameza gusa, hari n'amatapi kandi washyira mu cyumba cyawe, kandi hakagaragara neza.

Iduka ricuruza ubwoko bugiye butandukanye bw'amatara, hari amatara akoreshwa mu muburiro, hari amatara akoreshwa mu bwogero, hari amatara akoreshwa mu bwogero, hari amatara akoresha mu byumba, hari n'amatara kandi agenda akoreshwa hanze hatandukanye, agiye afite kandi ibintu bigiye bitandukanye, hari ibishushanyo byiza cyane ushobora gukoresha rwose kugira ngo itara ryawe ribe ryihariye kandi rifite isura nziza, ku buryo umuntu wese ushobora kuribona abona ko ari ryiza kandi rihebuje.

Isoko rinini cyangwa iduka ricuruza ibintu bitandukanye cyane cyane ibikoresho by'ubukene n imitako hari ibintu byinshi biri ku meza, ibimanitse birimo ibikapu ibihura ibikoresho byo mu nzu imitako y'amahere n' imikufi n'indi mitako y'amaboko ibikoresho byiganjemofite amabara atandukanye ntibisosagirana bigatanga isura nziza kandi iteye amatsiko, birashoboka kubera isoko ry'ubukorikori, cyangwa hanagurishwa ibintu byiganjemo yubukene n' imirimo y'amaboko aho baguzi baza gushaka ibintu byihariye cyangwa ibikoresho by'imitako yo mu nzu.

Igice cy'imbere cy'iduka rinini abantu bakunda guhahiramo, hari ahantu kandi bishyuriza kuko hari amamashini atandukanye, hari aho abakozi bambaye imyenda y'akazi bicaye barimo barafasha abakiriya kwishyura ibicuruzwa baguze ,hari abantu bahagaze bategereje kwishyura abandi bari mu nzira basohoka banyuze mu byuma bipima umutekano ,haragaragara ibicuruzwa bitandukanye hari n'ibindi bigaragaza ko ari ahantu hahahirwa ibintu bitandukanye byo mu rugo ibiribwa n'ibikoresho bisanzwe. Hari n'ikimenyetso cyerekana ko igice cy'ibikoresho byo mu rugo kiri hejuru bivuze ko iri duka rifite amagorofa abiri cyangwa se ashobora kuba arenga.

Iduka cyangwa si isoko rinini aya masoko nk'aya ngaha yasanga mu umujyi wa Kigali aho abantu binjiramo bakagenda bazenguruka bashaka ibyo bashaka babitwara bajya kubarisha bakishyura bakigendera, ni ibintu byiza cyane rwose kuko byorohereza bakoramo ndetse n'abakiriya bayo mu buryo bwo kugira babone ibyo bashaka kandi ku gihe.

Inzu nini cyane igiye ifite imiryango itanga serivisi zitandukanye, harimo izicuruza imyenda igezweho, kuko turabona ibipupe bigiye byambaye imyenda cyangwa se amakanzu y'abadamu n'abagore, si ibyo gusa kandi hari n'ahandi hantu hacuruza ibikoresho by'abana bigiye bitandukanye, mu gihe ufite umwana wawe muto ushobora kwegera aha hantu bakagufasha, cyangwa se mu gihe wifuza kwambara neza ukaberwa uri umudamu cyangwa umukobwa, wagana aha hantu bakakwambika kandi ukaberwa.

Iduka ricuruza imyambaro myinshi itandukanye gusa yiganjemo ni imyenda y'igitsina gore, aho harimo amakanzu, amashati yo hejuru y'abadamu, hanyuma hakabamo n'abantu kandi, birimo biragaragara ko harimo uri kugurisha ndetse n'uri kugura. Iyi myambaro iragaragara neza ahantu hose wayihajyana ari ugusenga, ari mu bukwe, ari mu kazi ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye rwose waba waberewe uyambaye.

Iduka rinini cyane harimo umugore wambaye ipantaro y'umukara. umupira w'umutuku w'amaboko magufi n'inkweto zifunze bafite igitete arimo aragenda ahahiramo, aho agenda ahitamo igicuruzwa ke ashaka, akagishyira muri icyo gitete kugira ngo aze kugitahana, hanyuma amaduka nkaya manini agira akamaro kanini kuko ni uburyo bworoshye bwo guhaha, sibyo gusa kandi bagira ibiciro bihendutse, bagira ubuziranenge bw'ibicuruzwa byabo, bagira umutekano mu bucuruzi, batanga serivise zitandukanye ndetse n'ubucuruzi bugezweho, bateza n'imbere n'umuco wo kuzigama.

Ejo heza n'ubwiteganyirize bw'igihe kirekire bugenewe abanyarwanda bose, bugamije kubafasha kwizigamira, kugira ngo bazagere ahazaza heza, kugira ngo wizigamire ukoreshe ejo heza ,ugomba gukurikiza aya mabwiriza, aho ugomba kwiyandikisha murija heza, aho ushobora kubikora ukoreshaje telefone ,wa kanze akanyenyeri magana atanu na gatandatu urwego ,ugakurikiza amabwiriza ,sibyo gusa kandi ugomba gutangira kwizigamira, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ikarita y'umunyamuryango w'ubwisungane mu kwivuza yatanzwe na Repubulika y'u Rwanda, minisiteri y'ubuzima nyiri iyi karita rero n'umuntu utuye mu ntara y'iburasirazuba, mu karere ka Rwamagana, ubundi ikoranabuhanga ritaraza cyane nko mu myaka yashize wasangaga, umunyamuryango wese wishyuye mituweli, bamuherezaga ino karita yajya kwivuza akayitwaza kugira ngo barebe ko yishyuye mituweli ariko ubu ikoranabuhanga ryarabyoroheje wishyura kuri telefone ukajya kwa muganga ubwishyu bwawe buba bugaragara ukivuza.

Umugore wicaye ku meza mu biro bya araesiesibi ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda. Ari kwicara mu mwanya ugaragara nk'aho ari mu kazi, kandi nyuma hari icyapa cyerekana serivisi zijyanye n'ubwishingizi bw'akazi, bivuze ko ishobora kubara umukozi w'iki kigo cyangwa umuntu ufite aho ahuriye n'iyo serivisi. Uyu mugore yambaye umwenda wa kinyafurika, igitenge ufite amabara atukura n'umuhondo kandi afite isura yihagazeho yerekana ubwitonzi n'ubunyamwuga.

Ikiganza cy'umuntu ufite ikarita y'umuhodo yanditse repubulika y'u Rwanda minisiteri y'ubuzima, umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, ushaka kwibaza ngo iyi karita ni iyiki? Ubundi mumyaka yatambutse yimu yishyuraga ubwisungane mu kwivuza akishyura n'umuryango we iyo bajyaga kwa muganga bagombaga kugenda bitwaza n' amakarita ubundi bakagenda bakavura ko babaga bishyuye ariko ubu ngo byaroroshye umuntu iyo yagiye kwishyura akoresha ikoranabuhanga rwose kandi yagera kwa muganga bakamuvura byoroshye rwose bitagoranye.

Ikirango cya ara esisi bi aricyo kigo cya leta y' u Rwanda gishinzwe ubwiteganyirize ni ukuvuga ngo iki kigo gifite inshingano zo gucunga ubwisungane mu kwivuza, ubwishingizi bw'abakozi, ubwiteganyirize bw'izabukuru, ndetse n'ubwishingizi bw'impanuka n'indwara zitandukanye z'akazi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe hari umuntu kandi ufite indangururamajwi mu ntoki ze birimo biragaragara ko arimo arabaganiriza ku bigo bitatu bihari ariho ikigo cya mbere cya Arayesesibi hari Ejo Heza ndetse na Saniramu, hanyuma rero ni ukuvuga ngo Ejo Heza ni gahunda igamije gufasha abaturage kugera ku nzozi zo kugira ejo hazaza hizewe cyane cyane mu bijyanye no kwizigamira igihe cyo kujya mu za bukuru, hanyuma rero Arayesesibi yo rero ifite gucunga no guteza imbere gahunda z'imibereho myiza z'igihugu harimo izo kwizigamira kwivuza ndetse n'izindi gahunda zigamije gufasha abakozi mu gihe cyose cy'ubuzima bwabo haba mu gihe bakiri mu kazi cyangwa se mu gihe bageze mu za bukuru, hari Saniramu rero ishinzwe ubwishingizi mu rwanda aho ishishikariza abantu kwivuza bakoresheje ubwishingizi.

Umwana wicaye ku ntebe yambaye ijipo yigitenge yambaye n'agapira k'umweru ,hanyuma afite amakarita mu ntoki ze yanditseho arasiyesibi , numvaga ngo aya makarita kera yahabwaga abantu babaga bamaze kwishyura mituweli ku buryo nu wajyaga kwa muganga wagendaga witwaje ino karita kuko wabaga warishyuye, hanyuma ubu bwo byarahindutse iyo rwose ushaka kwishyura mituweli ubikorera ku irembo bikoreshejwe ikoranabuhanga aho ushobora kwishyurira umuryango wawe wose ukwanditseho hanyuma wajya kwa muganga bakakuvura nta ngorane.

Umugabo ufite ikaramu arimo arandika mu ikayi, hari n'umugore witwikiriye igitenge yambaye igitambaro kandi gisa umutuku. Yunamye cyane arimo arareba ibyo wa mugabo arimo arandika, hanyuma hakurya yabo hari akabati kagiye karimo ibintu bitandukanye bigaraga nk'amafishi. Uyu mugore rero wunamye washishikajwe no kureba ibyo uwo mugabo arimo arandika biragaragara ko ari nk'amafaranga y'umusanzu atanze, arimo arareba neza ko umusanzu yatanze barimo bamwankira ko yishyuye.

Iduka rinini mu ndimi z'amahanga dukunda kwita supamaketi hanyuma imodoka nk'aya yamenyerewe cyane mu mujyi wa Kigali hari ibicuruzwa bike bitandukanye harimo ibirungo ndetse n'ibikoresho byo mu gikoni bitandukanye ku butaka hasi rero cyangwa se ku makaro hari akamenyetso k'umurongo wanditseho icyenda rigashobora kugaragaza aho abaguzi bashobora guhaha. Ibicuruzwa bitandukanye mu mpera y'inzira kandi hari umuguzi usa n'uri kurenga cyangwa seri kugura ibikenewe hanyuma mu iduka nk'iribamo amatara atuma ibicuruzwa bigaragara kandi neza cyane.

Iduka rinini cyane mweneyo madokaka dukunda kwiyita supermarket mu ndimi z'amahanga na amaduka akunda kuba cyane cyane mu'umujyi wa kigali iyo ugezemo ukawu ufite nko gutwara ibintu byinshi cyane ufata akagare nkakanga ko iyo umuntu acunnze rwose ukagenda uzenguruka mu iduka ufata icyo ushakata ugishyiramo ako kagare hanyuma rero igihe cyagera ukaza kugenda ukegeraho barishari ukaba wabishyura ukitahira ukabishyiraraho mu modoka yawe nibamba wayizanye n'uburyo bworoshye kandi bwihuse.

Isoko rinini muri ya masoko agezweho akunda gukoreshwa cyane cyane mu mujyi wa Kigali by'umwihariko dukunda kwita mu ndimi z'amahanga supamaketi. Turimo turabona umukobwa rwose ufite ibisuko by'umukara yambaye ikote ry'ikoboyi, yambaye n'umupira mo imbere, biragaragara ko arimo aragira igicuruzwa afata kugira ngo agitware mu byo agura, hanyuma aze kujya kwishyura yitahire nta kibazo na kimwe ahuye na cyo.

Igice cy'imbere cyo mu iduka rinini cyane, hari firigo nini eshatu zirimo binyobwa bitandukanye nk'amazi, imitobe n'ibinyobwa byongera imbaraga, hari kandi ibikapu n'ibindi bicuruzwa biri ku meza imbere, ku mpande hari amashashi y'imitobe n'ibindi bicuruzwa, inyuma hari urukuta rwirabura ruriho amategura arabagirana, hanyuma amaduka nkaya ngaya manini dukunda cyane cyane kuyasanga mu mujyi wa Kigali.

Iduka rinini cyane ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho amaduka nka ngaya ari amaduka agezweho, by'umwihariko akunda kubarizwa mu mujyi wa Kigali, hanyuma rero ukeneye kugira ikintu ufata mu iri duka uraza rwose ukazenguruka ukacyishakira, hanyuma wamara guhitamo, ukagenda ukabarisha bakakwishyuza, ukishyura ukajyana igicuruzwa cyawe.

Abantu batandukanye bahuriye mu isoko rinini cyangwa se iduka rinini hari imashini zishyirwaho ibicuruzwa mbere yo kwishyura, aho abakozi bambaye imyenda y'akazi bari gufasha abakiriya kurangiza kugura. Hari ibicuruzwa byinshi ku modoka hariya inyuma ,bigaragaza ko ari iguriro rifite ibintu bitandukanye byo guhitamo .Abantu bamwe bari mu murongo bategereje kwishyura abandi barimo kuganira cyangwa se kureba ibyo baguze ,hari ibirango byamamaza bigaragara ku byuma bitandukanye, imirongo y'abishyura bikerekana ko iri guriro rifite ibikoresho bihagije kwakira abakiriya benshi.

Isoko ricuruza ubwoko bw'imboga n'imbuto butandukanye, aho harimo inyanya, ibinyomoro, amacunga ndetse n'ibindi byinshi bijya bitandukanye. Ni byiza rwose ko umuntu arya imboga ndetse n'imbuto kuko byuzuza ubuziranenge, aho byongera intungamubiri bikarinda indwara bigatuma kandi nta cyorezo icyo ari cyo cyose cyakugeraho.

Utubase dutoya tugiye turimo ibinmpeke bitandukanye si ibyo gusa kandi hari n'imbuto nk'imineke ndetse n'inanasi ushobora kubona ujya wibazaya imbuto ni iki? ni igice cy'ibimera gifite intungamubiri nyinshi kandi gifitiye umubiri akamaro zishobora kuribwa ari mbisi cyangwa se ziteguye mu buryo butandukanye kuko imbuto rwose zigira intungamubiri kandi nziza ku mubiri w'umuntu aho uzirinda indwara zikubaka umubiri ndetse no mu bundi buryo bwose butangaje.